Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi. Ni icyumba kinini kirimo imiti, n'ibindi bikoresho abantu bakenera kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Muri farumasi habamo imiti y'amoko atandukanye, hari imiti ivura abantu, ivura amatungo ndetse n'inyamaswa, bityo ubuzima bugakomeza kandi bukagenda neza nta ndwara ndetse n'ibyorezo bibayeho.

Umugabo uri gukora ubuhinzi bw'ibigori arimo gushyiraho imvaruganda, uyu mugabo yambaye ishati y'umweru ndetse yambaye n'indorerwamo z'amazi, ibi bigori birasa neza.

Umucuruzi ufite ibicuruzwa bigiye bitandukanye, bihenze kandi bigura amafaranga menshi, uyu mucuruzi akorera mu nyubako nini, isize irangi ry'umuhondo.

Kawunga ni igihingwa gitunze abantu benshi kuko akenshi gikoreshwa mu bigo by'amashuri ndetse no mu baturage, iki gihingwa gitanga umusaruro vuba kandi abantu bagikunda kubi.

Akarima k'igikoni gahingwamo imbuto zigiye zitandukanye, aka karima kandi gahingwamo imboga ari zo ibitunguru, inyanya, intoryi, amashu, idodo ndetse na karoti.

Abahinzi b'ibigori bakunze kuvuga ko bibaha umusaruro mwinshi iyo babyitayeho, akenshi hari igihe ibihingwa by'ibigori bihingwa mu mvura ariko iyo babihinze mu mpeshyi bakunze guhura n'ingorane.

Imifuka ipanzemo ibicuruzwa bitandukanye ari byo umuceri, kawunga, ubugari ndetse n'ibindi byinshi, ibi bicuruzwa kandi byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Umugabo urimo kuvomerera ikawa, yambaye imyenda y'imyeru, uyu mugabo kandi biragaragara ko azi guhinga neza ndetse akurikiza amabwiriza yagenwe.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Ibigori kandi bitanga umusaruro nka kawunga ndetse n'ibindi bihingwa bivamo, bityo abantu bakabasha kubona ifunguro ribatunga.

Igiti kinini gitwikiriye imifuka, bigaragara ko ari ahantu habikwa ibicuruzwa bigiye bitandukanye, iyi mifuka harimo ibigori, kawunga ndetse n'umuceri.

Icyumba gicururizwamo imiti yifashishwa mu buhinzi. Iyi miti harimo iyo bakoresha batera ku nyanya ndetse n'ibindi bihingwa kugira ngo yice udukoko dutandukanye.

Ifumbire mvaruganda yifashishwa n'abahinzi kugira ngo babone umusaruro. Ifumbire mvaruganda akenshi ikunze kuba isa ibara ry'umweru n'umukara kubera ko iba ikoranywe ubuhanga ndetse n'ubwenge.

Ifumbire mvaruganda iri ahantu mu cyumba kinini. Iyi fumbire yifashishwa n'abahinzi, kugira ngo babashe kugira umusaruro mwiza kandi mwinshi, ubaha amafaranga mu buhinzi bwabo.

Ibigori ni igihingwa kiza gitanga umusaruro, kuko abenshi babihinga maze bakabona amafaranga, ibigori kandi bikorwamo kawunga, zifashishwa n'ahantu henshi hahurira abantu.

Umugore uri gukora ibikorwa by'ubuhinzi bw'imyembe, ibigori ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Arishimye kandi yambaye imyenda myiza, irimo amabara y'umukara n'umuhondo.

Iduka ricuruza imiti itandukanye, haba iyo mu buhinzi ndetse n'iyo guha amatungo, aha hantu hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye kubera ko abayigura bahakorera ubucuruzi bwabo.

Farumasi itanga imiti ndetse n'imbuto ku bahinzi. Iyi farumasi kandi abantu bayiguriramo imiti igiye itandukanye kugira ngo babashe kuyiha amatungo atange umusaruro mwiza.

Pharmacy icuruza imiti igiye itandukanye haba iy'amatungo ndetse n'imiti batera ibihingwa kugira ngo bikure neza, iyo wakoresheje imiti mu buhinzi bwawe bituma ibihingwa bitanga umusaruro.

Farumasi ibamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imiti yifashishwa n'abahinzi kugira ngo babashe kwita ku bihingwa byabo neza kandi babone umusaruro w'igihe kirekire.

Abahinzi bavuga ko iyo bafite ifumbire bibafasha guhinga ndetse bakabona umusaruro mu buryo bwihuse. Ariko iyo batafumbiye bavuga ko umusaruro uboneka bigoranye.

Abahinzi bavuga ko iyo bakoresheje ifumbire mvaruganda babona umusaruro kandi mwiza, iyo babikoresheje bavuga ko bitandukanye n'iyo batabikoresheje kandi babona amafaranga.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye yifashishwa kugira ngo bavure inyamaswa ndetse n'amatungo, harimo kandi n'imiti ikoreshwa mu buhinzi kugira ngo abantu babone umusaruro.

Umugore urimo guhinga ibigori ashyiraho ifumbire mvaruganda arimo araseka. Yambaye umupira w'umutuku n'ikoti ry'umukara bigaragara ko yabyize kandi abifiteho ubumenyi.

Abantu benshi bahuriye hamwe baje gukora umuganda, iki gikorwa rusange iyo abantu bagihuriyemo, babanza kuganira maze bagakorana umwete bafite imbaraga.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, imeza iri iruhande rwayo, ndetse n'ibindi bikoresho biraho muri iyo nzu, biragaragara ko ari inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ibyo bikorwa bitandukanye.

Inyubako nini itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abantu bahurira bakaza kugura imiti ijyanye n'indwara barwaye, iyi miti kandi usanga akenshi idahenze kuko uyibona ku giciro gito.

Inanasi ni igihingwa, gihingwa ahantu mu gishanga hari amazi, iyo wacyitayeho, bituma ubona umusaruro mwiza, ndetse bikanaguha amafaranga, ibi nibyo bishishikarizwa abanyarwanda.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gituma abantu babasha kwiteza imbere. Iyo wabihinze neza ukabona umusaruro, ubona n'amafaranga kuko uba wajyanye ku isoko maze abantu bakakugurira ukiteza imbere.

Igihingwa cy'ibirayi ni kimwe mu bifasha abantu kwiteza imbere. Iki gihingwa kandi gitanga umusaruro mu buryo bworoshye, iyo wagifumbiye ukacyitaho kugeza gikuze.

Imyumbati ni igihingwa gikurwamo amafaranga vuba, imyumbati kandi bayikoramo ubugari abantu barya kandi bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Igihingwa cy'inyanya ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro vuba, iki gihingwa kandi gitanga amafaranga ku bantu bagikora kuko babona ayo bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibinyomoro ni igihingwa cyiza gifasha abahinzi kwiteza imbere, iyo uhinze ibinyomoro biguha umusaruro ufatika, ndetse bigatuma ubona amafaranga mu buryo bwihuse.

Inyanya ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku baturage kubera ko iyo bagihinze neza babona amafaranga ndetse bakabona n'ibyo ku kurya mu buryo bworoshye. Ni byiza kwihangira imirimo kuko bigufasha kubona amafaranga.

Igihingwa cy'imyumbati iyo kitaweho neza kitanga umusaruro, iki gihingwa kandi kivamo ifu y'imyumbati ikorwamo ubugari maze abantu bakayirya.

Umuceri ni igihingwa gitanga umusaruro vuba, kuko abenshi bagikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi, bakabona amafaranga ndetse abandi bakakibonamo ifunguro ribatunga rya buri munsi.

Igihingwa cy'urutoki, ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Iyo ukoze ubu buhinzi neza, bituma ubona amafaranga, maze ukiteza imbere. Akenshi ababikora bavuga ko iyo ushyizeho ifumbire, ari bwo ubona umusaruro mwiza.

Ibigori ni igihingwa gituma abantu babasha kubaho neza kandi bakabona amafaranga, ibigori kandi bikorwamo kawunga ifasha abantu benshi kugira ngo babashe kubaho.

Abahinzi b'amashu bavuga ko ari igihingwa gitanga umusaruro vuba. Iki gihingwa iyo ugihinze, hagati y'amezi atatu kiba cyamaze kwera, maze ugasarura ukajyana mu isoko ukabona amafaranga.

Abahinzi bavuga ko inyanya ari igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Kuko ababikora bavuga ko amafaranga bakuramo, abafasha mu bikorwa bigiye bitandukanye by'iterambere, ndetse no kurihira abanyeshuri.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Iyo ikawa uyikoreye neza bituma ubona amafaranga ndetse bigatuma ubona iterambere vuba kugira ngo ubashe kubaho neza.

Igihingwa cy'ibirayi ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro vuba kuko akenshi ababihinga bavuga ko bisaba kubishyiraho ifumbire hanyuma ugategereza ko byazera ukabona inyungu.

Umubyeyi urimo guhinga imboga n'imbuto yambaye umupira w'umutuku ndetse afite isuka mu ntoki bigaragara ko agiye guhinga maze abone amafaranga yo gukora ibikorwa bitandukanye.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa cyiza kuko cyifashishwa n'abahinzi batandukanye mu kubona amafaranga menshi. Iki gihingwa kandi ni kimwe mu bihingwa byiza kandi bigezweho.

Iyo uhinze umurima wawe neza, ukawushyiramo ifumbire ndetse ugashyiramo ibikenerwa byose, ubona amafaranga agufasha mu bikorwa bya buri munsi bityo ukiteza imbere.

Igihingwa cy'ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro vuba. Iki gihingwa kandi bigaragara ko iyo ugihinze neza amafaranga uyabona ndetse n'ibyo kurya ukabibona.

Urusenda ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba, kuko abantu benshi baruhinga, bavuga ko babona amafaranga menshi mu gihe gito maze, bigatuma biteza imbere mu buryo bworoshye.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe gito. Iyo ufite iki gihingwa ubona amafaranga agufasha gukemura ibibazo bya hato na hato bityo ukabasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro vuba, hari abakora ubworozi bw'inkoko ndetse bakabona umusaruro w'amagi bakayakoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye bitanga amafaranga.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa gitanga umusaruro mu gihe gito kuko iyo uhinze ugakurikirana icyo gihingwa ushyiraho ifumbire mvaruganda, ubona umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibihingwa by'imyumbati ndetse n'ibisheke, ni bimwe mu bitanga umusaruro vuba. Hirya y'ibi bisheke ndetse n'imyumbati, hari ishyamba ryinshi, ritanga amakara.

Abagabo babiri barimo guhinga bambaye imyenda y'imikara, aba abagabo kandi bari imbere y'ibigori byinshi cyane, bigaragara ko babyitaho kugira ngo bizabahe umusaruro mu minsi iri imbere.

Igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro mwinshi, iyo washyizeho ifumbire ndetse ukawurinda inyoni bituma ubona amafaranga utakekaga maze ukiteza imbere.

Umugore uri gukora ubuhinzi bw'ibigori, ni ahantu ubona ko hera cyane kandi iyo wahinze ugakoresha ifumbire ubona umusaruro vuba, ibigori ni kimwe mu bihingwa bitanga amafaranga.

Abahinzi benshi bavuga ko bahinga ibihingwa by'amoko agiye atandukanye kugira ngo babone umusaruro mwinshi kandi bavuga ko iyo ufite umurima munini kuwufumbira biba bitoroshye.

Abantu batandukanye bari gukora umuganda mu rugo rw'umuturage kugira ngo bamukorere igikorwa gikomeye, bambaye imyenda y'amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Ibihingwa by'amoko agiye atandukanye, harimo imyumbati ndetse n'ibindi, hepfo hari ibigori hagati hateyemo ibiti bigaragara ko abahinzi babikora kugira ngo babone umusaruro.

Iyo umuntu ahinze bya kinyamwuga abona amafaranga ariko iyo uhinze nta gahunda ndetse nta n'umurongo w'ibihingwa ugiye guhinga, usanga nta musaruro ubona kuko uba wabikoze utabyitayeho.

Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Akenshi bakunze kuvuga ko iki gihingwa gikorwamo kawunga, ari yo abantu bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ikabatunga.

Ngo bizamuhe umusaruro mwiza. Uyu mugabo yambaye ishati y'umweru irimo amabara atukura, arimo arahinga intoryi ndetse n'urutoki, kugira ngo azabashe kubona amafaranga mu minsi iri imbere.

Urubyiruko ruri gukora umuganda, akenshi bavuga ko iyo bahuriye hamwe, bagafatanya bakora ikintu kigaragara kandi kibateza imbere, bityo bakikenura bakagira ubuzima bwiza.

Abantu baturutse mu bice bitandukanye bari gukora umuganda, aba kandi higanjemo abagabo n'abagore bari gusukura umuhanda unyura hagati mu ndabo kugira ngo hagire isuku.

Ibihingwa bigiye bitandukanye biri ahantu ku musozi hava izuba, bavuga ko nta musaruro bikunze gutanga, akenshi abahinzi b'imboga n'imbuto, bakunda kuzihinga mu gishanga kuko ari ho haba amazi.

Umubyeyi uri gutera ibigori mu murima, kugira ngo azabone umusaruro uhagije mu minsi iri imbere, uyu mubyeyi yambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, indorerwamo z'amaso, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto, arimo araca ibigori kugira ngo ajye kubiteka maze nibishya afungure.

Ubuhinzi ni kimwe mu bikorwa bituma abantu biteza imbere ariko iyo bukozwe nabi usanga nta musaruro butanga kuko uba utabuhaye agaciro kandi utabikoze kinyamwuga.

Ubuhinzi bw'urutoki ni bumwe mu buhinzi bufasha abantu kwiteza imbere. Hari abahingira amafaranga bakavuga ko iyo wihingiye ni bwo ubona umusaruro, akenshi iyo uhingiye abandi ubona uhomba.

Umugabo uri gukora ubuhinzi arimo arahinga yambaye ubusa hejuru. Uyu mugabo biragaragara ko ashaka gutera imbuto kugirango zizamufashe kubona umusaruro.

Abayobozi barimo gutera ibiti ku muhanda kugira ngo birinde umuyaga ugiye uturuka hirya no hino, aba bayobozi kandi bashishikariza abaturage gutera ibiti kugira ngo birinde ibiza.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse hirya no hino, bari gukora igikorwa cy'umuganda. Bafatanyije n'abandi baturage kugira ngo bagire ibyo bumvikanaho bitakemutse mbere barebe uko babishyira mu bikorwa.

Urutoki, ni kimwe mu bihingwa bitanga umusaruro vuba. Iyo umuntu ahinze iki gihingwa, bituma abona amafaranga mu buryo bworoshye kandi bitamugoye.

Abantu benshi bahuriye ahantu kugira ngo bige ku bibazo bitandukanye. Harimo abagabo abagore ndetse n'abasore. Muri bo bavuga ko akenshi iyo bahuriye hamwe bagira ibyo bigaho.

Abayobozi batandukanye bahuriye hamwe kugira ngo bige ku bibazo biraje ishinga abaturage, ni abayobozi barimo umukuru w'umudugudu ndetse n'umukuru w'akagari, aho bahuriye mu gace kamwe.

Umugore uri gukora ubuhinzi bw'ibirayi, avuga ko ibirayi bitanga umusaruro iyo byitaweho, ndetse iyo babishyizeho ifumbire, maze bigatanga amafaranga mu gihe gito.

Ubuhinzi ni kimwe mu isoko y'amajyambere, akenshi abantu dukoresha ibihingwa bivuye mu murima kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Iyo abahinzi bitaye ku bihingwa byabo bifasha abaturage kubaho neza.

Abahinzi benshi bavuga ko iyo bahinze babishyizeho umutima babona umusaruro, bakoresha ifumbire mvaruganda ndetse n'ifumbire ikomoka ku matungo kugira ngo ibihingwa byabo bibashe kumera neza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bari kumwe n'abarezi babo. Baje gukora ibikorwa byo kubaka akarima k'igikoni, kugira ngo bahingemo imboga n'imbuto bizajya bibafasha mu buzima bwa buri munsi.

Abantu barimo guhinga bigaragara ko bari gukora umuhanda, aba bantu bafite amasuka menshi kandi bambaye imyenda y'umukara, umutuku, umweru ndetse n'ubururu, harimo abagabo, abagore n'abana.

Ababyeyi babiri bicaye kuri shitingi, bari kugosora ibishyimbo. Bari ahantu heza hari amahumbezi ubona ko bari gutoranya imbuto kugira ngo babashe kujya kuyitera.

Umukobwa urimo kuvomerera imbuto, yambaye umupira w'umuhondo n'ikabutura y'umukara. Uyu mukobwa arimo kuvugira kuri terefone bigaragara ko ari gupanga gahunda ze uko ziri buze kugenda.

Imyumbati ni igihingwa gitanga umusaruro mu gihe gito kandi abantu benshi bavuga ko iki gihingwa kivamo imyumbati y'ubugari. Bakavuga ko ari ingirakamaro kuko gitanga amafaranga kandi vuba.

Inyubako nini irimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Harimo imifuka y'imiceri, akawunga, ubugari ndetse n'ibindi. Hari abantu bari gucuruza ubona ko bashaka amafaranga.

Igihingwa cy'ibigori gitanga umusaruro mu gihe gito. Iyo uhinze iki gihingwa ukagifumbira, ukakibagarira, ndetse ukagikorera ibyangombwa byose bituma kibasha gutanga umusaruro mwiza.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bigezweho kuri iki gihe kuko bigaburira abantu benshi, yaba abanyeshuri ndetse n'ahandi hantu hahurira imbaga y'abantu benshi kuko birabafasha cyane.

Inyanya ni igihingwa gitanga umusaruro. Abahinzi b'inyanya bavuga ko akenshi iyo bitaye kuri iki gihingwa, babona umusaruro uhagije bityo bikabafasha kwikenura mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini yubakishije amabati ndetse isakaje amabati, iyi nyubako kandi hari ahantu ku muhanda, bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse hatangirwa serivisi nyinshi.

Imifuka myinshi itandukanye y'ibihingwa, yifashishwa n'abantu batandukanye. Ibihingwa bigemurwa mu bice bitandukanye by'Igihugu, ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo biteze imbere.

Mu gishanga hahingwamo umuceri ufasha abantu kugira ubuzima bwiza. Iki gihingwa cy'umuceri gikoreshwa n'imbaga y'abantu nyamwinshi kuko ari cyo gihingwa ngandurabukungu.

Ibigori ni igihingwa gitanga umusaruro vuba iyo cyahinzwe neza, ibigori kandi bikorwamo kawunga, igaburira abantu batari bake mu gihugu, kandi bakabasha kubaho neza bishimye.

Inyanya ni igihingwa cyiza gitanga amafaranga, iyo wagikoresheje mu buryo bwiza wagiteye imiti ndetse washyizeho ifumbire, iki gihingwa kandi abantu benshi baragikunda kuko gitanga amafaranga vuba.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kuko akenshi abahinzi bazo bavuga ko zibaha amafaranga mu buryo utamenya, iyo agurishije voka nyinshi akuramo amafaranga menshi.

Ibihingwa bigiye bitandukanye harimo amageri, ikawa, ibishyimbo, karoti ndetse n'ibindi biribwa by'amoko atandukanye, byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ibirayi ni igihingwa cyiza gitanga amafaranga, akenshi iyo wabishyizeho ifumbire, birakura maze bikavaho umusaruro mwinshi, ibirayi kandi bikorwamo ifiriti ari yo abantu bakunda.

Ibigori ni igihingwa cyiza gifasha abantu kugira ngo biteze imbere, ibigori kandi ni bimwe mu bihingwa abantu bakoresha haba mu kubitera, kubirya ndetse no kubikuramo amafaranga.

Imifuka y'umuceri, kawunga ndetse n'imyumbati. Iyi mifuka yose, irunze ahantu mu cyumba, bigaragara ko abantu baza kuyirangura, bakayicuruza.

Ibidukikije ni bimwe mu bifasha ikiremwamuntu kugira ubuzima bwiza. Kubera ko akenshi biduha umwuka wo guhumeka maze tukabasha kubaho neza nta kibazo cy'uburwayi duhura na cyo.

Igisheke ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba, hamwe kandi n'igihingwa cy'amashu, iyo abantu bacyitayeho kibaha amafaranga, maze bagakemura bimwe mu bibazo bahura na byo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umuhanda w'igitaka unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Impande yawo hagiye hariho imirima irimo ibihingwa bigiye bitandukanye: nk'urutoki, avoka, imyumbati ndetse n'ibindi.

Ibidukikije bituma abantu babasha kugira ubumenyi butandukanye kubera ko bahumeka umwuka mwiza bikabafasha kumera neza.

Ishyamba riteye ku musozi rikurura imvura nyinshi ariko mu gihe cy'impeshyi, abantu bavuga ko biba byayoberanye akenshi abantu bicwa n'izuba maze bakavuga ko biba bigoranye.

Ibidukikije ni bimwe mu bifasha abantu guhumeka kuko bibaha umwuka mwiza usukuye maze bakabasha gukomeza kubaho neza bishimye ndetse bakagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Ishyamba ririmo ibiti birebire ndetse harimo n'ibindi bito, ibiti byifashishwa mu gukorwamo intebe z'amoko agiye atandukanye kugira ngo abantu bazicareho.

Ibidukikije ni kimwe mu bifasha abaturage kugira ubuzima bwiza. Kubera ko bikurura umuyaga, maze bagahumeka bakamererwa neza, bikabafasha kubaho igihe kirekire bishimye.

Ibidukikije ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu, iyo umuntu afite ubuzima bwiza abikesha ibidukikije bimuha umwuka arishima akumva anezerewe.

Ibidukikije ni kimwe mu bituma abantu bagira ubuzima bwiza. Akenshi iyo uhumetse umwuka mwiza uba ugize amahirwe yo kubaho kandi ugakomeza kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'ibihumanya umwuka wa muntu.

Imyembe ni igihingwa kiza gitanga umusaruro vuba, kandi gifasha abantu mu buzima bwa buri munsi, iyo ukoresheje iki gihingwa neza, ubona amafaranga wifashisha mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo wikenure ugire n'ubuzima bwiza.

Inturusu ni ibiti bikunze kubazwamo imbaho nyinshi zigiye zitandukanye. Ibi biti kandi iyo bikozwemo intebe, usanga zikomeye kandi zifite ubuziranenge bw'igihe kirekire.

Igihingwa cy'avoka, abenshi bavuga ko ari cyiza kuko gitanga umusaruro mu buryo bworoshye. Akenshi iyo uvuze ko avoka itanga umusaruro, uba usobanuye ko iguha amafaranga.

Ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo ibishyimbo, amatunda, ibinyomoro ndetse n'ibindi, ibi bihingwa rero bitanga umusaruro mu gihe gito kandi bigatanga amafaranga.

Ibijumba ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku muntu wese wabashije kugikorera ibisabwa, haba guhinga neza, ifumbire, kubagara ndetse n'ibindi, iyo gisaruwe gitanga umusaruro.

Ibihingwa akenshi bitanga umusaruro bitewe n'uburyo wabyitayeho, urugero nk'urutoki bisaba ko ushyiraho ifumbire kugira ngo bibashe kuvoma maze bitange umusaruro.

Ibidukikije bifasha abantu kugira ngo babone umwuka wo guhumeka, iyo umuntu ahumeka yahumetse umwuka mwiza bituma ubuzima bwe bugenda neza kandi mu buryo buhoraho.

Ibidukikije ni bimwe mu bidufasha guhumeka umwuka mwiza, bityo tukabasha kubaho kandi dufite ubuzima bwiza, iyo abantu bahungabanyije ibidukikije bituma tutabasha kubaho neza.

Ibitunguru, inyanya, avoka, karoti na pavuro, byifashishwa n'abacuruzi kugira babone amafaranga, babirangura ku giciro gike maze bakabicuruza bakunguka.

Imyembe ni igihingwa gitanga umusaruro vuba kuko akenshi usanga abagikoresha bavuga ko ari igihingwa kiza. Kandi iki gihingwa ntabwo kigoye kugihinga.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inanasi, imyembe, ibinyomoro, amatunda ndetse n'imyungu, biri gucururizwa mu isoko rinini rya Huye, aho abaturutse hirya no hino bakunda kubigurira.

Imyungu ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kuko akenshi abagikoresha bose, bavuga ko ari igihingwa cyiza gifasha abantu benshi kubona amafaranga meza kandi menshi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikikijwe n'indabo ndetse n'ibiti, iri ahantu heza imbere y'umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ari ahantu mu mujyi ukoze neza kandi usukuye.

Ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye, biri mu iduka rinini harimo imboga, karoti, intoryi, idodo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abahinzi benshi bavuga ko bakunze guhinga ibihingwa bitandukanye kugira ngo biteze imbere. Hari abavuga ko muri pipinyeri bahumbikamo imbuto, zamara gukura bakazigurisha abaturage bityo ubuhinzi bukagenda neza.

Karoti ni igihingwa gitanga umusaruro vuba, kuko abenshi bazi ko ari urubuto rwiza, karoti abantu benshi bazigurira ku isoko, ariko ntibazi uko zihingwa kandi ntabwo bigora kuzihinga.

Abahinzi b'imbuto ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, bari muri pepiniyeri barimo guhinga ibinyomoro, urusenda, amatunda ndetse n'ibindi.

Umugabo ukora ubuhinzi bw'inyanya avuga ko iyo wazitayeho neza biguha umusaruro maze ukabasha kwiteza imbere, uyu mugabo yambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umukara.

Inyanya, karoti, intoryi ndetse n'izindi mboga zitanga amafaranga mu buryo utakeka, abahinzi benshi bavuga ko babigize umwuga kandi babikuramo umusaruro utari muke.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro. Hano haragaragara abana baje gusoroma imiteja mu bishyimbo kugira ngo babashe kubona amafaranga bakenera.

Ibidukikije ni bimwe bifasha abantu kugira ubuzima bwiza. Akenshi bibazanira umwuka wo guhumeka maze bakabasha kugira ubuzima bwiza, noneho bakabaho bishimye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, izengurutseho indabo nyinshi, iyi nyubako kandi isakaje amabati y'ubururu, bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri, ni ahantu heza ubona ko hateye amabengeza.

Abantu batandukanye bari gusoroma imiteja, ibishyimbo bihingwaho imiteja aba ari byiza bitoshye ku buryo ubibonye wavuga uti ibi bishyimbo ni byiza.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu buryo bworoshye, iyo uhinze avoka ubona amafaranga agufasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye umuntu ahura na byo bya buri munsi.

Abahinzi b'inyanya bavuga ko iyo uzitayeho ziguha umusaruro. Akenshi bavuga ko inyanya zikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, maze abantu bakabasha kurya ibiryo biryoshye kandi biteguye neza.

Umukobwa urimo guhinga amashu avuga ko, iyo uyahinze neza ukayashyiraho ifumbire, ubona umusaruro wihuse. Bityo bikagufasha kwiteza imbere ugateza imbere n'abandi.

Imboga ni ingirakamaro, kuko zigufasha kugira ubuzima bwiza. Abantu benshi bakunze kurya imboga kugira ngo babeho neza, bagire ubuzima bwiza butagira indwara, kandi bakazibonera ku gihe.

Amashu ni igicuruzwa cyiza gitanga umusaruro vuba kuko cyerera igihe gito. Abacuruzi bavuga ko bayarangura ku giciro kiri hasi, hanyuma bakayacuruza ku mafaranga menshi.

Imbuto ni ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi kuko zifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, iyo ukoresheje imbuto, bituma ubaho neza kandi ukagira ubuzima buzira umuze maze ukabaho neza.

Ibihingwa ni bimwe mu bifasha abantu kugira ngo babashe kwiteza imbere, iyo uhinze inyanya, intoryi, idodo ndetse n'ibindi biguha amafaranga vuba.

Umubyeyi wikoreye imbuto agiye kuzigurisha ku isoko kugira ngo abone amafaranga, avuga ko iyo yaranguye neza akagurisha, abona inyungu maze akiteza imbere mu buzima bwe.

Ikigo cy'amashuri gikikijwe n'indabo, ibiti ndetse n'ibyatsi. Iki kigo cyubakishije amatafari ahiye kandi gisakaje amabati atukura ndetse n'ayandi y'ubururu.

Intoryi ni igihingwa gitanga umusaruro vuba, kuko abagikoresha bavuga ko kibaha amafaranga. Iyo wagihinze neza ugashyiraho ifumbiro, ubona amafaranga vuba maze ukiteza imbere.

karote ni igihingwa cyiza kuko gifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babone ibyo kurya. Akenshi abahinzi ba karoti bavuga ko iyo bazihinze neza zibaha amafaranga.

Ubuhinzi bw'imbuto, ni bumwe mu buhinzi bufasha abantu kwiteza imbere. Iyo wahinze imbuto, usoroma izo ujyana kugurisha ndetse n'izo uha abana bawe bagakura bafite ubuzima bwiza.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo amatunda, inanasi, imyungu, avoka ndetse n'ibindi. Byifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibihingwa bikubiyemo pavuro, karoti, ibitunguru, inyanya ndetse n'ibindi bitanga amafaranga menshi, iyo wahinze ibi bihingwa bituma ubaho neza.

Karoti ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, akenshi abacuruzi bavuga ko bakirangura ku mafaranga make maze bakunguka bari kugurisha, kandi abaguzi bavuga ko bidahenda nk'uko byahendaga mbere.

Imboga ni ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko zimufasha kugira ubuzima bwiza, iyo uriye imboga ndetse n'imbuto hari indwara nyinshi ukira kandi ukagira ubuzima bwiza.

Urubuto rw'itunda ni urubuto rwiza, itunda kandi ritanga umusaruro iyo warifumbiye ukarishyiraho ibya ngombwa byose bishoboka kuko ntabwo ritinda kwera, ryera vuba.

Imineke na yo ikoreshwa abantu bamaze kurya, bakayirya kubera ko akenshi ibarwa nk'imbuto nayo kuko ifite intungamubiri zigiye zitandukanye.

Urusenda ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe gito. Iki gihingwa kandi gitanga amafaranga iyo wagifumbiye, ukagisasira ndetse ukacyitaho muri rusange, kuko abantu benshi bakunze kurukoresha igihe bari kurya.

Imyungu ni kimwe mu bihingwa bituma abantu babasha kubaho neza, imyungu kandi ifasha abantu kugira imbaraga iyo bayiriye ndetse bakajya mu mirimo yabo bishimye.

Ibishyimbo ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba, abahinzi akenshi bavuga ko iyo bahinze ntibahinge ibishyimbo ntacyo baba bakoze, kuko iki gihingwa nicyo cyiganje mu bihingwa bakunda guhinga.

Imineke iyo uyiriye umaze kurya bituma igogora rigenda neza kandi ukagira ubuzima bwiza, akenshi abantu bavuga ko iyo uyiriye mu nda hagubwa neza kandi hakamererwa neza.

Avoka ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro w'igihe kirekire, iyo wayitayeho ugashyiraho ifumbire bituma ubasha kubona umusaruro maze bikagufasha kwiteza imbere.

Inyanya ni igihingwa gitanga umusaruro vuba kandi abantu benshi bavuga ko iyo ushyizeho ifumbire ndetse ugatera imiti, ubona amafaranga mu gihe gito kandi byihuse.

Urusenda ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mwinshi, urusenda kandi rukunze gukoreshwa n'abantu bakuru mu gihe bari kurya kubera ko rubatera apeti, maze bakabasha kurya bishimye.

Ibihingwa bitandukanye akenshi bitanga amafaranga, urugero harimo nk'ibihingwa by'amatunda, ibinyomoro n'ibindi kubera ko bitanga umusaruro ugiye utandukanye waba uw'amafaranga ndetse n'amafunguro.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo ibinyomoro, amaronji, inyungu, amatunda, imyembe n'ibindi. Izi mbuto zifashishwa n'abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ibitunguru ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Abenshi babikoresha neza maze bakavuga ko iyo ubitekeshe urimo gukaranga, ibiryo bihumura neza kandi bikaryoha.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ikikijwe n'indabo nyinshi. Iyi nyubako biragaragara ko ikomeye kandi yubatswe neza. Iyo wubatse inzu ukayiha fondasiyo, ukayiha ibikoresho byose bikenerwa bituma ikomera.

Igihingwa cy'amashu ni igihingwa cyiza kuko gitanga umusaruro, abakora ubuhinzi bw'amashu ndetse n'izindi mboga muri rusange bavuga ko iyo bazitayeho babona amafaranga kandi bakabasha kwiteza imbere mu buryo bworoshye biboroheye.

Abahinzi bavuga ko amashu ari igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe gito, iyo uhinze neza iki gihingwa ukagishyiraho ifumbire ukakivomerera biguha amafaranga.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe kinini ariko kigatanga umusaruro mwiza, ikawa kandi ikorwamo ibiribwa bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga n'imbuto butanga umusaruro vuba kandi ababikora bavuga ko iyo ubikoze neza kandi igihe kirekire biguha umusaruro ugufasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Igihingwa cy'umuceri ni igihingwa cyiza cyane, kuko gifasha abantu kubona amafunguro adahenze, akenshi umuceri uhingwa mu gishanga maze ugasarurwa maze bakawitaho.

Umusozi uteyeho ibiti byiza ndetse n'ibyatsi bigaragara ko ari ahantu heza kandi hakeneye gukorerwa ibikorwa by'ubucuruzi, abantu benshi bavuga ko uhakoreye ubucuruzi wabona abakiriya.

Abantu batandukanye bari gukora igikorwa cy'ubuhinzi, bambaye imipira y'umukara, umweru ndetse n'ubururu, bari ahantu mu murima, bigaragara ko bashaka guteramo ibihingwa bigiye bitandukanye.

Amaterasi iyo ahinzwe neza atanga umusaruro ku bahinzi, abahinzi baraza bagahingamo ibihingwa byabo hanyuma bakazabona umusaruro w'ibyo bahinze.

Inyubako isakaje amategura, hirya yayo hari urutoki rwinshi. Iyi nyubako kandi biragaragara ko, ari inzu za kera, zikeneye kuvugururwa kugira ngo hagaragare iterambere.

Igishanga gihingwamo umuceri akenshi gikunda kuba kirimo amazi menshi, abahinzi bawo bavuga ko baca imigenda kugira ngo amazi abashe kugabanuka.

Mu gishanga akenshi usanga bahingamo imboga n'imbuto, kubera ko mu gihe cy'impeshyi iyo izuba ryacanye akenshi, niho hava umusaruro ubatunga mu gihe cy'impeshyi.

Igishanga kirimo amazi menshi cyane bigaragara ko hakorerwa ubworozi bw'amafi, hakurya y'iki gishanga hari ishyamba rinini ubona ko ari ryiza kandi riteye amatsiko.

Ibiti ni bimwe mu bifasha gukurura umuyaga kugira ngo ubuzima bw'abantu bugende neza, ibiti kandi bikorwamo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza, intebe ndetse n'ibindi bikoresho.

Ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'ubururu, kiriho abanyeshuri benshi cyane, hagati muri icyo kigo hari ikibuga kinini abantu bakiniramo umupira maze bagasabana bakabasha kugira ubuzima bwiza.

Umuceri ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi. Umuceri kandi iyo uwuhinze neza ugashyiraho ifumbire ubona inyungu nyinshi maze ukikenura mu bibazo bigiye bitandukanye.

Igishanga hakunze guhingwa umuceri, hifashishwa n'abaturage benshi b'igihugu, iki gihingwa nicyo usanga cyiganje ku masoko kuko iyo umusaruro wabonetse abahinzi babona amafaranga.

Inyubako nini, isakaje amabati y'umukara, isize irangi ry'umuhondo. Ni inyubako ndende ubona ko ikikijwe n'uruzitiro r'ibyuma, bigaragara ko hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi.

Umusozi uteyeho ibiti birebire ndetse uriho amaterasi menshi, uyu musozi ugaragara neza kandi uri ahantu heza hitegeye ku buryo abantu bakunda kuhatemberera.

Igishanga gihingwamo umuceri, akenshi usanga gihora kirimo amazi, iyo baje guhinga, bakuramo amazi bakayagabanya bakayacira imigenda, kugira ngo babashe kuhahinga neza maze babone umusaruro.

Kawa ni igihingwa gitanga umusaruro iyo umuntu akitayeho, iki gihingwa kandi abantu benshi bavuga ko ari ingirakamaro kuko gituma babona amafaranga kandi bikabafasha kwiteza imbere mu buryo bworoshye.

Ikawa ni igihingwa gitanga umusaruro mu gihe gito kandi kigatanga amafaranga. Ikawa kandi abantu bavuga ko iyo yoherejwe mu mahanga, itanga umusaruro ugereranyije n'uburyo abantu babikeka.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro kuko akenshi zitera amagi yifashishwa n'abantu batandukanye kugira ngo bagire ubuzima bwiza, amagi akenshi bayagaburira abana kugira ngo bakure neza.

Ingurube ni amatungo ashobora kororoka vuba agatanga umusaruro vuba. Iyo yitaweho agahabwa imiti ndetse n'ibyangombwa akura vuba agatanga umusaruro.

Ubworozi bugiye butandukanye butanga umusaruro, hari abavuga ko korora ingurube ari byo bigira amafaranga, kuko akenshi zibyarira amezi make maze ukajyana ku isoko ukabona amafaranga.

Ingurube ni inyamaswa itanga amafaranga, ingurube kandi ituma abantu bakora ubworozi vuba bigatanga umusaruro, bityo bagakoresha ayo mafaranga mu bikorwa bitandukanye.

Iyo umuntu akoze ubworozi bw'amatungo bituma abona ifumbire, yifashisha mu buhinzi bwe. Tuzi ko umuntu udafite amatungo kandi ari umuhinzi adakora ubuhinzi neza kuko nta fumbire abona.

Ubworozi bw'ihene ni bumwe mu bworozi bufasha abantu benshi kwiteza imbere, akenshi bavuga ko ubu bworozi bubafasha mu bikorwa byo kwagura ingo zabo zigatera imbere.

Ubworozi bw'ingurube butanga umusaruro vuba kandi ababukora bavuga ko iyo witaye ku itungo ry'ingurube bituma rikura vuba maze rigatanga umusaruro, ukabona amafaranga mu gihe gito.

Ubworozi bw'inka, ni bumwe mu bukunze gufasha abantu kwiteza imbere mu buryo bwihuse, inka kandi mu muco nyarwanda ni imwe mu nkingi y'ubukungu kandi ifasha abantu kwiteza imbere.

Ikiraro cy'ibiti kirimo inka nini bigaragara ko ari imbyeyi ikeneye ubwatsi kugira ngo itange umusaruro w'amata maze abana babone icyo banywa kandi babone uko basagurira amasoko.

Ubworozi bw'ihene ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro vuba kuko butanga amafaranga mu gihe gito, umugabo ufite ihene enye ari kujya kuzigurisha ku isoko kugira ngo abone amafaranga.

Inkoko ni imwe mu bworozi bwihuta kubona umusaruro vuba, inkoko kandi hari izitera amagi ndetse n'izindi ziribwa, akenshi abantu bakunda gukoresha amagi kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'ihene ndetse n'inka, ni bumwe mu butanga umusaruro vuba, iyo witaye ku matungo yawe neza, ukayagaburira ku gihe ndetse uyaha n'imiti bituma abasha gukura maze agatanga umusaruro.

Umukecuru ukora ubworozi bw'ihene, avuga ko iyo wazitayeho neza ziguha umusaruro mu mugihe gito, uyu mukecuru kandi avuga ko ihene zibyarira amezi makeya kandi zigatanga amafaranga.

Ubworozi bw'ingurube ni ubworozi butanga umusaruro vuba kuko, butanga amafaranga mu gihe gito. Iyo witaye ku itungo, akenshi riguha umusaruro, ukabona amafaranga yo gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Umugabo ukora ubworozi bw'ingurube ndetse n'inka, avuga ko ubu bworozi bwamufashije kubona amafaranga mu gihe gito. Iyo woroye wabishyizeho umutima ukagura imiti ndetse ugatanga n'ibiryo kuri aya matungo akura vuba.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi butanga amafaranga kuko akenshi abazorora bavuga ko bubaha amafaranga mu gihe gito, ingurube iyo uzoroye neza bituma ubona amafaranga menshi.

Umukecuru uri gukora ubworozi bw'ihene, avuga ko iyo ukoze ubu bworozi neza, biguha umusaruro mu gihe gito kuko ujyana ku isoko ukabona amafaranga, ugatanga na mituweri.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi butanga amafaranga kandi abantu benshi bavuga ko iyo woroye itungo riguha umusaruro mugihe kizaza ndetse rikaguha n'ifumbire nziza.

Ubworozi bw'inkoko butanga umusaruro iyo wabukoze neza, hari inyubako isize irangi ry'umweru ndetse isakaje amabati y'umutuku, ikorerwamo ubworozi bw'inkoko.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu butanga umusaruro vuba, ubu bworozi kandi iyo wabukoze neza, buguha amata kandi bugatanga ifumbire ifasha abantu mu buhinzi bwabo.

Umubyeyi uri gukora ubworozi bw'ihene avuga ko imuha amafaranga maze agakemura ibibazo bigiye bitandukanye. Yayiziritse ku giti ari kuyiha ubwatsi.

Ubworozi bw'ingurube, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro vuba, kubera ko zikura mu gihe gito. Iyo wazitayeho zikaguha amafaranga, ubona umusaruro wihuse, maze ukabasha kwiteza imbere.

Ubworozi bw'ingurube ni bumwe mu bworozi bufasha abaturage kubona amafaranga vuba mu buryo buboroheye, ubu bworozi kandi butuma abaturage babona umusaruro w'ibihingwa kuko bubaha ifumbire.

Ubworozi bw'inkoko, ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro, kuko ababikora bavuga ko bubaha amafaranga maze bakabasha kwiteza imbere. Ubu ubworozi kandi abenshi bakunze kubwita ubw'agaciro.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bufasha abantu kwiteza imbere. Iyo woroye inkoko zitera amagi ukayajyana ku isoko, bituma ubona amafaranga wifuza maze ukiteza imbere mu buryo bworoshye.

Ubworozi bw'ihene ni bumwe mu bworozi butanga amafaranga mu buryo utakeka, iyo worora uba uzi ibanga ryo korora, kuko biguha amafaranga mu gihe uyakeneye kandi mu buryo bwihuse.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi butanga umusaruro, amagi menshi akurwamo ndetse n'ibindi bikorwa, bikorwa mu ifumbire iba yavuyemo nk'ubworozi ndetse n'ibindi.

Ubuhinzi bwi'ibishyimbo bufasha benshi, abantu benshi bavuga ko ibishyimbo ari igihingwa cyiza gitanga umusaruro, maze abantu bakagikoresha barwanya ubukene n'inzara.

Igihingwa cy'amashu, ni igihingwa gifasha abantu mu buzima bwabo bwa buri munsi, iki gihingwa kandi bakunze kuvuga ko gitanga umusaruro iyo cyitaweho, abantu bakabona amafaranga bakoresha.

Gutera ibiti ni byiza kuko akenshi bifasha abantu guhumeka umwuka mwiza, baca umugani mu Kinyarwanda ngo igiti kigororwa kikiri gito kandi bigakura neza.

Imyumbati ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro vuba. Iyo ugihinze ugashyiraho ifumbire, amafaranga uyabonera ku gihe kandi akaba agukemurira ibibazo bigiye bitandukanye.

Urusenda ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kuko abantu benshi baruhinga bavuga ko iyo urwitayeho ukaruha ifumbire ndetse ukarwitaho, mu minsi iri imbere ruguha amafaranga.

Ubuhinzi bw'imbuto ni bumwe mu buhinzi butanga umusaruro vuba, kubera ko abahinzi bavuga ko iyo uhinze neza ubona umusaruro, kandi iyo washyizeho ifumbire birushaho.

Ibirayi ni igihingwa gitanga umusaruro vuba, abenshi bavuga ko iyo uhinze ibirayi ubona umusaruro ndetse ukabona n'amafaranga maze bikagufasha gukemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Ibijumba ni igihingwa kidahenze kandi cyoroshye gukora. Iyo uhinze ibijumba bigufasha kubona amafaranga wifashisha mu buzima bwa buri munsi maze ukikenura ugafasha umuryango wawe.

Pipiniyeri irimo ibihingwa bigiye bitandukanye. Harimo aho bahinga ndetse bakanahumbika inturusu, ikawa, imbuto harimo amatunda ndetse n'ibinyomoro.

Amashu ni igihingwa gitanga amafaranga mu gihe gito, iyo uyahinze ukayitaho ugashyiraho ifumbire bituma mu minsi mike ujya ku isoko ukabona amafaranga.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara, ipantaro ndetse n'inkweto arimo arafasha inka kugira ngo ayiteho kandi igire ubuzima bwiza.

Aborozi bavuga ko inka iyo wayitayeho iguha umusaruro mwinshi, akenshi ubworozi bw'inka bufatwa nk'igikorwa gikomeye kuko inka zirahenda kandi zigura amafaranga menshi.

Umwana wambaye umupira utukura, ahagaze imbere y'inka. Bigaragara ko ari kuyigaburira kugira ngo ihage. Iyi nka kandi biragaragara ko ari imbyeyi yabyaye, ikeneye amata yo kugira ngo yonse.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi bufasha abantu kwiteza imbere kuko butanga amafaranga, hari abakunda korora ibimasa abandi bakorora inyana ariko byose bitanga amafaranga.

Ubworozi bw'inka butanga amafaranga menshi kubera ko inka zirahenda, iyo ukoze ubu bworozi neza biguha umusaruro maze ukabona amafaranga ukiteza imbere, bityo bigatuma ubaho neza.

Abashumba akenshi bakunze kuvuga ko, iyo bari mu ishyamba badakunze kwicwa n'inzara, kuko batabura ibyo kurya, kera iyo wajyaga kuragira mwafataga umuriro mugateka.

Ubworozi bw'inka ni bumwe mu bworozi bufasha abantu kugira ngo babashe kwiteza imbere mu buryo bworoshye. Ubu bworozi kandi ni bumwe mu butanga amafaranga.

Abantu benshi bakunze kugira imbwa mu rugo rwabo kugira ngo zibacungire umutekano, hari abazikoresha bazirindisha ibipangu byabo, ariko hari n'abantu benshi bavuga ko zitabagerera mu rugo.

Abagabo babiri bari kumwe n'abagore batatu bahagaze imbere y'inka nyinshi, ubona ko izi nka ziri kurya ubwatsi, hirya yabo hari ikigega cy'umukara gitanga amazi bakoresha buhira zino nka.

Abagabo babiri bari guha inka umuti kugira ngo ikire indwara irwaye, abagabo bambaye imyenda y'imikara, bahagaze mu kiraro bafashe iyo nka kugira uwo muti iwunywe.

Inyamaswa cyane cyane inzovu zikurura ba mukerarugendo maze bakazana amafaranga azakora ibikorwaremezo mu gihugu, iyo basubiye mu bihugu byabo bituma bazana abandi bityo amafaranga akiyongera.

Inyamaswa akenshi zikunze kuba mu ishyamba. Inyamaswa zikurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga mu gihugu, bityo hagakorwa ibikorwa bijyanye n'iterambere.

Intare ni inyamaswa y'inkazi kubera ko akenshi ikunze kwibera mu ishyamba kandi ikarya izindi nyamaswa, bakunze kuyita umwami w'ishyamba.

Inyamaswa zo mu ishyamba akenshi zikunze kugaragara mu mafoto zirimo kuryana, inyamaswa zimwe na zimwe zirya izindi kugira ngo zibashe kubaho ariko hari n'izirya ibyatsi.

Inyamaswa akenshi zikurura ba mukerarugendo, maze bakazana amafaranga mu Gihugu, iyo bazanye ayo mafaranga bituma akoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'iterambere, maze Igihugu kigatera imbere.

Inyamaswa akenshi zikunda kuba mu ishyamba. Inyamaswa kandi ni kimwe mu bidukikije bituma ba mukerarugendo baza mu Rwanda bakatuzanira amadovize.

Inyamaswa akenshi zikunze kuba mu ishyamba, twabonye ko inyamaswa ari ibidukikije kandi zikurura ba mukerarugendo bakazana amafaranga mu gihugu, iyo bazanye amafaranga bifasha Igihugu gutera imbere.

Akenshi iyo ba mukerarugendo batembereye bakajya mu gihugu runaka bajyanayo amafaranga, maze iterambere ry'igihugu rikiyongera, iyo bavuyeyo baza bafite gahunda yo kujyanayo abandi maze bigakomeza bityo.